Gahunda zitandukanye zigamije gukangurira abanyarwanda neza kumva agaciro k'ubukerarugendo, zafashije abaturarwanda gusobanukirwa neza inyungu ziri mu bukerarugendo, ikindi kandi buri muntu wese ubifitiye ubushobozi abagomba gusobanukirwa neza, agaciro k'ubukerarugendo.

Kuba ikoranabuhanga rigenda ryiyongera bitanga icyizere ko uburezi mu minsi iri imbere bugiye gutera imbere kandi abanyeshuri bakavuga neza ko bibafasha mu buzima bwabo bw'imyigire ya buri munsi bakabasha gutsinda kuko baba bakoze ubushakashatsi.

Inzu nini y'ubwishingizi bwa u a pa ku ruhande hari amasikariye maremare, cyane inzu nini umuntu ugiye kwinjiramo bisa nkaho ikorwa ubwishingizi.

Abayobozi mu nzego zitandukanye bagira umwanya wo kwicara bakaganira ku bibazo bitandukanye, bityo bakaba bafatira imyanzuro hamwe, abaturarwanda bakagira ubuzima bwiza. Dufatanyirize hamwe kugira ngo dusenyere umugozi umwe, bityo dushakire icyateza imbere u Rwanda.

Abakora mu nzego z'ubuvuzi bicara kugira ngo bafatire hamwe imyanzuro ishobore gufasha Abaturarwanda kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza. Ni byiza ko buri wese ugize indwara urugero iz'imitekerereze aba agomba kuba yagana kwa muganga kugira ngo babe bamufashe.

Abaturarwanda banezezwa n'uko leta ibashyiriraho gahunda yo guhura ba ku bibazo bityo bakaba bashakira ibisubizo hamwe, ni byiza ko buri wese yumva agaciro ko guhura n'abandi bityo akaba yabasha kuba yafatanya n'abandi gushakira ibisubizo ibibazo bitandukanye.

Abayobozi batandukanye batangaza ko iyo babashije kwitabira inama bibafasha, kuko babona amahugurwa, bityo bakaba babasha kugira ibyo bongera mu miyoborere yabo ndetse no kubana neza n'abo bayoboye.

Mu Rwanda hategurwa gahunda zitandukanye ziba zigamije guteza umuturarwanda imbere, aho hahurirwamo abayobozi b'ibigo bitandukanye, kugira ngo bige ku cyateza imbere u Rwanda, aho bafatira imyanzuro hamwe.

Amahugurwa atandukanye ahabwa abantu kugira ngo babashe kuba basobanukirwa neza uburyo bakora imyuga yabo, bityo babashe kwiteza imbere, ni byiza ko buri muturarwanda yumva agaciro ko kwitabira inama, kugira ngo abashe kubayasobanukirwa neza uburyo akoramo ibintu.

Inama cyangwa se ihuriro ry'abayobozi batandukanye mu nzego zitandukanye usanga zikemura ibibazo bitandukanye kandi aha ngaha hafatirwamo imyanzuro ndetse n'ibyemezo bigamije kuba byateza imbere igihugu.

Ibigo bitanga serivisi z'ikoranabuhanga bitangaza ko kuba ababagana biyongera buri munsi bituma banezezwa n'umurimo bakora kandi bakagira icyizere cy'uko ejo hazaza habo ari heza kandi bigatuma ababagana na bo banezezwa na serivisi bahabwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Reveni Otoriti, kijya gifata umwanya wo kwibutsa abarebwa n'imisoro ko bagomba kubikora kandi bakabikora ku gihe, kugira ngo birinde amande y'ubukererwe, aho bashobora kuba batanga imisoro yabo bakoresheje ikoranabuhanga.

Irembo ni urubuga rw'ikoranabuhanga, aho Abanyarwanda bajyaho bakabona amakuru atandukanye kandi bakaka serivisi batarinze gukora ingendo zitandukanye, ibyo kandi byafashije Abanyarwanda gusobanukirwa no gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, urugero nka mudasobwa, terefoni zigezweho ndetse n'ibindi nk'ibyo.

Ku misozi myinshi mu Rwanda, hagiye hari iminara ituma abaturarwanda babona itumanaho, kandi iyi minara ituma abakoresha telefoni zitandukanye babasha kubona amarezo, bityo itumanaho rikoroha mu buzima bwa buri munsi.

Ibigo bitanga serivisi z'ikoranabuhanga mu Rwanda bikomeje gukangurira abaturarwanda bose gusobanukirwa neza agaciro ko gukoresha ikoranabuhanga mu kwaka serivisi zitandukanye, zaba iz'ubwishingizi, kwishyura imisoro ndetse no kwishyura ubwishingizi mu kwifuzaza.

Irembo ni urubuga rw'ikoranabuhanga rwashyiriweho buri muturarwanda wese kugira ngo abe yabasha kubona serivisi z'ikoranabuhanga yifuza bityo abe yakirinda ingendo zitari ngombwa, tumenye kandi dusobanukirwe uburyo bwo gukoresha uru rubuga rwashyiriyeho abanyarwanda bose.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama, giteguyemo intebe ndetse n'ameza akorerwaho inama, cyahuriwemo n'abantu benshi baturuka mu bihugu bitandukanye biganjemo abanyafurika ndetse n'abazungu, aho bari kuganira ku bintu bitandukanye byabahurije muri iyi nama barimo.

Kuba serivisi zijyanye n'imisoro zisigaye zikoreshwa ku ikoranabuhanga, byagabanije ingendo zitari ngombwa kandi bigabanya ubukererwe, aho wasangaga abantu batonze ku mirongo bashaka serivisi, ubu bakaba basigaye babikora bibereye iwabo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, kiramenyesha abanyarwanda bose ko kumenya no gusobanukirwa neza akamaro ko gutanga imisoro bifasha igihugu mu iterambere; ikindi kandi barasaba umuturarwanda wese, gusobanukirwa neza akamaro ko gutanga imisoro.

Gukoresha ibyuma by'ikoranabuhanga mu kwaka serivisi urugero twavuga nka mudasobwa ndetse na telefoni zigezweho, byafashije abaturarwanda kuba bakaka serivisi bibereye iwabo, ikindi kandi babarinda guta umwanya wabo.

Mudasobwa zifashishwa mu amashuri aho abanyeshuri bazikoresha biga no gukora ubushakashatsi butandukanye bukorewe ku mbuga nkoranyambaga, aho bajya bagasaka amakuru kugira ngo basobanukirwe neza ibijyanye n'amasomo yabo.

U Rwanda rwihaye intego ko muri bibiri na mirongo itanu buri muturarwanda wese azaba afite umuriro ku kigero cy'ijana ku ijana, ibi kandi bizafashwa nuko ingomero z'amashanyarazi mu gihugu zizagenda ziyongera bityo REG ikaba ariyo ibifite mu nshingano.

Hamwe na bimwe mu bice by'igihugu umuriro wagiye uhagera ariko mu bice bimwe na bimwe by'icyaro umuriro w'amashanyarazi ntabwo urahagera, bityo ibyo bigatuma habaho imbogamizi zo kutabona umuriro uhagije mu bice byose by'igihugu.

Mu bice bitandukanye umuriro w'amashanyarazi wageze ku baturarwanda bose, ikindi kandi abaturage basabwa kubungabunga ibikorwaremezo kugira ngo u Rwanda rukomeze gutera imbere, ikindi kandi n'aho utaragera gahunda yo kuhageza umuriro nayo irakomeje.

Inyubako zitanga serivisi zitandukanye mu gihugu, ni ngobwa yuko ziba zifite umutekano, kugira ngo abazigana bizere neza ko bafite umutekano ikindi kandi baba bagomba kuzubakira, kugira ngo zibe zifite urugo rushobora kuba rwakumira abazivogera.

Mu Rwanda mu bice bitandukanye byose by'igihugu, hagiye hari inyubako zigezweho zaba izigeretse zizwi nk'amagorofa ndetse n'izisanzwe. Izi nyubako kandi zikaba zikorerwamo imirimo itandukanye igirira igihugu akamaro.

Inyubako z'ibiro bitandukanye mu Rwanda ziba zifite ibibuga aho abakorerayo ndetse n'abajya kwaka serivisi baba bagomba gusiga imodoka zabo kandi hakaba hizizehiwe n'umutekano, ikindi kandi tuba tugomba gusigasira ibikorwa remezo tuba twarahawe na leta yacu.

Abaturage bishimira ko mu bice byose by'igihugu bagiye bafite ibigo nderabuzima kuko bibafasha kwivuza mu gihe baba bugarijwe n'indwara, bityo ubuzima bwabo bukagenda neza, gusa bamwe na bamwe bavuga ko kuba hataboneka abaganga bahagije bituma batabasha kubonera imiti ku gihe, bityo bakaba babasha kurembywa n'indwara mu gihe bitandukanye.

Mu Rwanda ibikorwa remezo bitandukanye bifasha abaturarwanda kubona serivisi bakeneye, urugero twavuga nko kwivuza ndetse n'izindi serivise zigiye zitandukanye zifasha abaturarwanda kubaho kandi bafite ubuzima bwiza.

Ni byiza ko igazeti ya Leta iba iri mu ndimi zitandukanye kuko bifasha abumva ndetse n'abavuga indimi zitandukanye, kumenya imyanzuro iba yasohowe kandi bikorohereza buri wese kugira ngo asobanukirwe neza ibyo amategeko y'Igihugu ateganya.

Umugabo w'imisatsi migufiya w'inzobe ufite ubwanwa bwo hejuru wambaye umupira wo kwifubika urimo amabara atandukanye ubururu, umweru n'umukara wambariyemo ishati, araburanishwa.

Inzu ikodeshwa iri Kicukiro muri Kigali, ifite ibyumba bine n'amadushe atatu na tuwarete ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu ku kwezi.

Abatanga serivisi zo gucunga umutekano bagomba gukora akazi neza kandi bagakurikirana buri wese ukekwaho icyaha kugira ngo u Rwanda tubeho rufite umutekano, twese tugerageze twirinde gukora ibyaha.

Urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano ruba rugomba guta muri yombi buri wese ukekwaho icyaha kugira ngo ababikora babe babicikaho burundu, mu banyarwanda twese tugomba gusobanukirwa neza ko gukora icyaha bihanwa n'amategeko ikindi kandi tugasobanukirwa ko kwirinda gukora ibyaha bituma tubana mu mahoro.

Abaturage bavuga ko ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi z'imiriro bishyirwa ku nyubako zigiye zitandukanye, biba bigomba kuba byinshi, kugira ngo mu gihe batewe n'inkongi babe babasha kwitabara, kandi bagomba no guhabwa ubumenyi ku buryo ibi bikoresho bikoreshwa.

Abatwara ibinyabiziga bakoresha imihandanda ya kabarimbo bavuga ko kuba imihanda ya kaburimbo yarageze mu bice byose by'igihugu biborohereza ingendo zabo kandi bakaba bashima leta y'u Rwanda ko igenda yongera ibikorwa remezo.

Abapolisi ni urwego rw'igihugu rushinzwe gucunga umutekano, ikindi kandi bakaba bashobora no kuba bafasha isi muri rusange gucunga umutekano, aho bashobora koherezwa hanze y'igihugu bakajya gutangayo serivisi zo gucunga umutekano.

Ibiro bya Polisi y'u Rwanda biherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Muhima byafashije abaturarwanda gukomeza gucunga umutekano, ikindi kandi hagaragara urujya n'uruza kuko baba bakeneye kujya kuhashaka serivisi zijye zitandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi biba bigomba kuba biri kuri buri nyubako zose kugira ngo mu gihe haba habayeho inkongi bibe byakwifashishwa kugira ngo hazinywe iyo nkongi dusobanukirwe kandi twumve neza akamaro ko gukoresha ibikoresho.

Abayobozi bashya binjira mu nshingano baba bagomba gusobanukirwa neza imirimo bagiye gukora ikindi kandi bakagira ubwitange kuko igihugu ndetse n'abaturage muri rusange baba babizeyeho byinshi byiza mu myanya baba bagiye kwinjiramo itandukanye.

Ishyaka rya FPR mu Rwanda, ryafashije abanyarwanda bose kugira umutekano, ubuzima bwiza, ikindi kandi buri munyarwanda wese avuga ko anejejwe n'iri shyaka, aho dukora buri kimwe kugira ngo dushyigikire umukandida wayo, Paul Kagame.

Abakozi bakora mu modoka zitwara ibicuruzwa bitandukanye, byaba ibyinjizwa mu gihugu ndetse n'ibisohoka mu gihugu, aba abakozi banezezwa n'uko akazi bakora ka buri munsi kabasha kubabeshaho mu buzima bwabo.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Utubati twiza dushyashya bari gusiga amarangi ukaba wadukoresha ubikamo ibintu yaba imyenda, ndetse n'imitako.

Abaturage batangaza ko kuba imodoka zitwara abantu n'ibintu zikomeje kwiyongera mu gihugu ari nyinshi, bibafasha mu ngendo zabo za buri munsi, ikindi kandi ibiciro bikaba bigenda bigabanyuka, bityo bikaba bibafasha. Ni byiza ko izi modoka zigezwa mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo zifashe abaturarwanda.

Abaturarwanda bishimira serivisi bahabwa n'ibigo bigiye bitandukanye, urugero twavuga nk'amasoko ndetse ikindi kandi abaturarwanda bishimira ko bagiye bafite ibikorwa remezo bigiye bitandukanye nk'imihanda, aho bashobora gutembera kandi bakaba bizeye umutekano wabo.

Ibyapa bifasha abakoresha umuhanda gusobanukirwa ndetse no kuba bahamenya amerekeza y'umuhanda, bityo bikaba byabasha gukumira impanuka cyangwa kurinda impanuka. Dusobanukirwe neza akamaro ko guha agaciro ibi byapa.

Ni byiza ko abakoresha umuhanda baba bagomba gusobanukirwa neza amategeko y'umuhanda baba abakoresha amaguru cyangwa se abakoresha ibinyabiziga kuko bibarinda kuba bakora impanuka kandi umutekano mu muhanda ukaba mwiza.

Kumenya ndetse no gusobanukirwa ibyapa ndetse n'ibimenyetso bikoreshwa mu muhanda, ni bimwe mu bifasha abawukoresha, baba abatwara ibinyabiziga ndetse n'abakoresha amaguru cyangwa se abanyamaguru kwirinda impanuka zo mu muhanda.

Ibyapa byo mu muhanda ndetse n'ibimenyetso, bifasha abakoresha umuhanda, baba ari abatwara ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, kuba bakirinda impanuka zo mu muhanda, ni byiza ko ibi bimenyetso bishyirwa mu mihanda itandukanye hirya no hino mu gihugu.

Gusobanukirwa neza ibimenyetso ndetse n'ibyapa bikoreshwa mu muhanda, ni bimwe mu bifasha abantu kwirinda impanuka, ikindi kandi umutekano wo mu muhanda ukiyongera.

Inyubako zitangirwamo serivisi zitandukanye zigomba kuba zifite imihanda myiza ibasha kugera kuri izo nyubako, aho abakoresha ibinyabiziga babasha kuyikoresha kugirango bagere aho izo nyubako ziherereye kandi ku gihe.

Kimironko ni umurenge wo mu mujyi wa Kigali, hakaba harangwa no kuba hari imiterere myiza, inyubako zigezweho ikindi kandi muri aka gace hari ibiti bishobora gukurura imvura ikindi kandi abantu bakaba babyifashisha bugama izuba igihe izuba ryabaye ryinshi.

Mu Rwanda inyubako zitandukanye zitangirwaho serivisi zigiye zitandukanye, zibasha kuba zagirirwa isuku kandi ziba zigiye zifite ubusitani, aho abazigana baba bashobora kuruhukiramo, ikindi kandi izi nyubako ziba zigomba no gusigasirwa kugira ngo zibe zabasha gukomeza gutanga serivisi mu gihe kirekire.

Abacuruzi bakorera mu bice bitandukanye by'igihugu, banezezwa n'uko bakorera ahantu hari isuku, kandi hari umutekano, ikindi kandi bakaba bavuga ko kuba babasha gukorera ahantu bizeye umutekano, bibakururira abakiriya.

Abaturage bavuga ko kuba mu bice bitandukanye by'igihugu hagiye hari amafarumasi biborohereza kandi bibafasha kugira ngo babone imiti yaba ari iyo bivuza cyangwa iyo bakoresha bavura amatungo yabo, bikaborohereza kandi bikabarinda kuba bakora ingendo zitandukanye bavunika bajya gushaka imiti.

Mu bice bitandukanye by'igihugu hari imihanda ya kaburimbo igaragara nk'aho yasaje aho abayikoresha bavuga ko ishobora kubatera ikibazo, ikindi kandi inzego zibishinzwe ziba zigomba kumenya no gusobanukirwa ikibazo nk'iki ku buryo kiba cyabasha gukemurwa.

Kuba igihugu gifite ibikorwaremezo bitandukanye, abaturage banezezwa nuko bafite imihanda, amashanyarazi bityo u Rwanda rukaba rufite ibikorwaremezo bitandukanye, ibi kandi bifasha abatuye u Rwanda kwiteza imbere mu buryo butandukanye.

Kugira imihanda myiza igezweho ya kaburimbo ndetse n'ibikorwaremezo bigiye bitandukanye, byafashije abakoresha imihanda kugira umutekano mu muhanda, kandi biborohereza no mu buzima bwabo bwa buri munsi mu gukora ingendo zitandukanye bagana aho bakorera.

Imihanda ya kaburimbo yoroheje ikibazo cy'ingendo mu Rwanda, kuko abayifasha baba abanyamaguru ndetse n'abatwara ibinyabiziga, bavuga ko biborohereza bityo bakaba babasha kugera aho baba bakeneye kujya bitabagoye.

U Rwanda rurakataje mu iterambere, aho rugiye rufite ibikorwaremezo bitandukanye, twavuga imihanda, amashanyarazi, aho abatembera umujyi bagenda bafite amatara ku muhanda, ibyo bikaba byanabarinda kuba baterwa n'abajura mu gihe bagenda nijoro.

Mu Rwanda iterambere rirakataje kuko ibikorwaremezo bimaze kuba byinshi twavuga nk'imihanda ya kaburimbo, aho mu bice byose by'icyaro ndetse n'imijyi usanga imihanda ya kaburimbo ikomeza kwiyongera, bityo ubuhahirane bukiyongera kandi.